Amahugurwa yitabiriwe n'abantu benshi b'ingeri zose ari abagabo n'abagore bambaye neza bakaba bari mu nyubako itakishijwe ibitambaro by'umweru, mu mpande zaho harimo ibiranga inama birimo amarangi y'ubururu, imbere yabo hari insinga z'amashanyarazi bateze amatwi bose.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku bakaba bari ku meza ariho igitambaro cy'umukara bakaba bafite amacupa y'amazi y'inyange, imbere hakaba hari abantu barimo barabaha amahugurwa, inyuma yabo hari urukuta rwera hari n'amatara iruhande hariho ibintu biranga inama yabo bisa ubururu harimo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inama irimo abayobozi bakaba bicaye mu ntebe zifite uruhu rw'umukara no ku meza abajwe mu biti. Imbere yabo hariho amacupa y'amazi y'inyange. imbere yabo hakaba hariho n'utwuma dusakaza amajwi. Inyuma yabo hariho ikintu cy'ubururu ndetse n'icyatsi kirimo amagambo yanditseho Kigali yacu.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye amataburiya y'umweru hakaba hari n'undi wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'umuhondo inyuma hakaba hari n'undi wambaye umupira ufite amabara y'ubururu bakaba bambaye inkweto n'amasogisi y'umweru, inyuma yabo hari amadirishya arimo ibirahuri, inyuma hari ibiti bari mu nyubako ifite irangi ry'umweru.

Inama yitabiriwe n'abagabo n'abagore, ameza ateye nk'inyuguti ya u, mo hagati hakaba harimo umutako w'icyatsi kuri ayo meza hakaba hateyeho udutambaro tw'umweru mo hagati harimo utuntu tumeze nk'ibitenge, inyuma ku gikuta hari urukuta rwera.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara akaba arimo yandika ku rupapuro afite ikaramu afite n'agacupa k'amazi imbere ye hakaba hari n'undi wambaye umupira w'umukara nshati y'ubururu n'undi wambaye ishati irimo amabara menshi inyuma yabo hari abantu bicaye hari ibara ry'umweru mubikuta.

Abagabo bicaye ku ntebe z'umukara bakaba bari ku meza abajwe mu mbaho, imbere yabo hari ubucupa bw'inyange, barimo barareba ku rukuta rwateweho irangi ry'umweru, hakaba handitseho inyuguti ya rura, muri abo bagabo hakaba harimo abafite uruhara n'abafite umusatsi, bafite na telefone zabo ku meza.

Umugore uhagaze wambaye igitenge n'akantu mu mutweba, akaba afite irangurumajwi, inyuma y'uwo mugore hicaye n'abandi bagore, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru n'impapuro, inyuma y'abo bagore hariho umugabo w'umuzungu n'undi w'umwirabura ufite mudasobwa ari ku meza hariho ibitambaro by'umweru inyuma hakaba hari ibirahure by'imiryango.

Abagore babiri hari ufite imisatsi miremire n'undi ufite imisatsi iciye, ufite irangururamajwi, akaba afite terefone ku meza, hakaba hariho agacupa k'amazi y'inyange, kakaba gateguyeho igitambaro gisa umweru, bakaba bicaye mu ntebe z'ibyuma, inyuma yaho hari urukuta rwera.

Abagabo n'abagore barimo baraganira ku meza imbere yabo hari televiziyo, mudasobwa ndetse n'abafite terefone ku meza abajwe mu mbaho hariho uducupa tw'amazi tw'inyange hariho umugabo ufite ubwanwa bwinshi ndetse n'umugore ufite ibisuku.

Amapoto acishwaho insinga zitandukanye harimo izitwara umuriro ndetse harimo n'izindi zitwara interineti kugira ngo abantu babashe kwikorera ibintu bitandukanye babona umuriro ndetse na internet.

Abadamu babiri umwe witandiye, undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara barasinya ndetse bakuzuza ku bipapuro bibateretse imbere ku meza iriho amazi ndetse n'ibindi bipapuro byabugenewe.

Umugabo uhagaze ufite irangururamajwi akaba yambaye ikoti, ishati na koruvati, akaba yashyize amaboko ku kameza kabajwe mu mbaho, inyuma hari icyapa cyanditsemo Nyagatare n'andi magambo asa umweru.

Inama yitabiwe n'abantu benshi bakaba bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umukara, intebe bicayeho hakaba hariho ibitambaro by'umweru n'umukara, kuri ayo meza hariho ibyo kunywa n'ibintu barimo barandikiraho kuri izo mpapuro, hakaba hari ibiharanga by'ubururu, hejuru hakaba hari amatara acana neza.

Abantu bicaye muri gisharagaate baka bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari abafite akameza, imbere yabo hari n'undi uri mu bwatsi ahagaze ufite irangurura amajwi.

Abagabo n'abagore barimo barareba muri mudasobwa imwe isa umukara, bakaba bari ku meza asa umukara, iruhande hari ubucupa bw'amazi bw'inyange, bakaba bafite ikaramu mu ntoki zabo na terefone naho kwandikira, inyuma hari umuzungu uhagaze wambaye umupira w'umuhondo n'undi mugabo wambaye ikositimu y'umukara nta musatsi afite ku mutwe.

Umugabo ufite indangururamajwi, akaba yambaye n'ikoti ry'umukara n'umupira w'umweru. Iruhande rwe hari umugore wambaye ingofero n'ikoti rifunze. Inyuma ye hakaba hari intebe, ziriho udutambaro tw'umuhondo n'ubururu, hakaba hari n'ibyuma bisakaza amajwi inyuma yabo. Imbere hari abantu bamuteze amatwi.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku n'ameza hariho igitambaro cy'umukara bakaba bambaye imipira y'umweru bakaba bafite imisatsi myinshi hari n'abateze igitambaro cy'umukara mu mutwe. Imbere hari undi wambaye umupira w'ubururu n'ikoti riciye amaboko, inyuma ye hari intebe zisa kake n'igikuta gisa umweru iruhande hari ibintu biranga inama.

Abantu benshi bambaye neza, bambaye utuntu mu ijosi ryabo tw'utugozi dusa icyatsi, bakaba barimo baratega amatwi, inyuma yaho hari igikuta gisa umweru, n'abantu bahagaze inyuma.

Abagabo n'abagore bari mu nama bakaba bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umweru. Imbere yabo hariho ibitabo, hakaba hariho ikirahure cyo kunyweramo n'ikindi kirimo amazi. Bakaba bafite telefone zabo, inyuma yabo hari imiryango ibajwe mu mbaho.

Abahungu bambaye imipira y'ubururu, irimo amabara ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Bakaba bafite imisatsi myinshi, imbere yabo hateretse udukombe tw'umukara n'amazi y'inyange.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi uriho ikirangantego cy'u Rwanda n'idarapo ry'u Rwanda. Akaba afite icyuma kirangurura amajwi arimo araha ikiganiro abantu bicaye bafite imisatsi myinshi, bambaye imipira y'umuhondo n'icyatsi. Bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere hari icyapa cyerekana intego y'inama gisa umweru n'ubururu.

Abagabo bane barimo baraganira harimo uwambaye ingofero n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru hakaba hari n'undi wambaye ishati y'ubururu urimo akoresha mudasobwa n'undi wambaye ishati ya kaki n'undi wambaye ikositimu na karuvati n'ishati y'umweru wicaye mu ntebe y'umukara bakaba bicaye ku meza yabajwe mu mbaho inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure.

Umugore wambaye ikanzu ufite irangururamajwi akaba yambaye ibikomo ku kuboko kwe kw'iburyo by'umweru, akaba ari iruhande rw'abantu bicaye mu ntebe z'umukara n'ameza ari igitambaro cy'umuhondo bafite n'uducupa tw'amazi, inyuma hari igikuta cyera kiriho imitako.

Abantu bari mu nama barimo barakoresha mudasobwa ku meza y'imbaho, inyuma hakaba hari umuryango n'akabati kabajwe mu mbaho, hakaba hari umuzungu wambaye ikote, hakaba hari intebe bicayemo zisa umutuku.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, umukandara, n'ipantaro ya kaki, ufite ikoti ku rutugu rwe, afite terefone mu ntoki, iruhande rwe hari telefone ndende inyuma hari ibara ry'ubururu, hakaba hari handitsemo amagambo irembo ushobora kubyikorera.

Abagabo bambaye amashati y'umweru bafite telefone mu ntoki bakaba banafite n'amamashini imbere yabo, iruhande hakaba ariho ubucupa bw'amazi y'inyange n'impapuro ku ruhande.

Inyubako ndende iruhande rwaho hariho ahantu bicara bakaruhuka hakaba hariho abantu barimo baragenda banaza. Imbere hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umwuka hejuru hari urutsinga rurerure rw'umukara.

Intebe yo mu biro isa umukara iruhande hariho ikigo gishinzwe imisoro yigihugu, aho barimo barashaka abakozi bo kugikorera, hasi hari igishushanyo cyayo gifite amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari imodoka isa umukara ikaba ifite amapine y'ikijuju hari inyubako zifite imiryango y'ubururu hejuru hasakaye hubakishijwe hakanaterwa n'irangi rya kakiyi hari ibyapa by'umweru, n'umutuku.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye umupira w'umweru akaba afite ikirahure cy'amazi, urimo urakorera kuri mudasobwa. Ku ruhande rwe hakaba hari impapuro akaba arimo arakorera ku meza y'urubaho inyuma harera akaba yicaye mu ntebe y'umukara.

Umunara maremare cyane urimo amabara y'umweru n'umutuku, iruhande rwaho hakaba hasakajwe amabati hakaba igiti cy'amashanyarazi kiriho n'insinga zisakaza amashanyarazi, akaba ari umutwe w'umuntu urimo aragenda n'abandi hepfo y'umuhanda barimo baragenda, akaba n'imodoka n'ibikwangu.

Inyubako irimo ameza n'abantu barimo barakoresha mudasobwa zabo. Harimo umusore wambaye umupira w'ubururu n'undi wambaye umupira w'umutuku akaba umwe urimo asohoka wambaye umupira wumukara hasi yambaye ikintu cy'umweru ,harimo amarangi y'umweru kuruhande rwabo harimo inyuguti ya k.

Ukuboko k'umuntu wambaye agapfukamunwa barimo baratera urushinge rugezemo hagati, inyuma yaho hari urukuta rwirabura, hakaba hari n'undi muntu urimo uramutera urushinge, hasigaye iminsi ibiri turi kumwe.

Mudasobwa ifunguye ikaba irimo amashusho y'umweru afitemo amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi iruhande yanditseho inyuguti za rra inzira imwe rukumbi yo gukoresha uburyo bwo gusura.

Igipangu gisa umukara kibaba kiri iruhande rw'umunara muremure ufite amabara y'umutuku n'umweru iruhande rwabo hari ibigega bisa umweru inyuma hari inzu irimo irubakwa y'amatafari kuruhande hari insinga ndende z'amashanyarazi imbere yinzu hari ibyatsi hari n'ubutaka.

Umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, ni tariki ya mbere Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, hakaba hari ibishushanyo bishushanyije uwambaye itaburiya n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, kandi akaba yambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umukara, hasi hari ikirangantego cy'u Rwanda, hari ikimashini cyo guhinga urimo urabaza, urimo uruhira.

Igishushanyo cy'ikarita y'igihugu y'u Rwanda, iruhande rw'aho handitseho amagambo arimo gushora imari mu Rwanda, hejuru yaho hari inyubako nyinshi ziranze umujyi wa Kigali, hejuru hariho ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu ari cyo radaba.

Icyo miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda zakugurira muri Kigali akaba ari igikoni kigezweho ndetse gikoze neza cyubatse neza kikaba kirimo n'itara.

Umwana wambaye umupira w'umuhondo wari kumwe n'umugore, bakaba barimo barakoresha mudasobwa ku meza y'umukara bakaba banafite n'ikayi y'impapuro z'umweru. Hakaba hari n'abandi babiri iruhande rw'abakobwa bafite imisatsi miremire, n'inyuma hakaba hari n'abagabo barimo barakoresha mudasobwa ,inyuma hari ubusitani urebeye mu idirishya.

Serivisi nshya ku rubuga rwa Irembo rutangwa na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda inshingano mboneragihugu akaba ari icyemezo cy'utishoboye uwacitse ku icumu rya jenoside rikaba riri mu ibara ry'ubururu .

Itangazo ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imari kikaba kirimo kiravuga yuko uyu munsi ariwo munsi wa nyuma wahariwe kwishyura, kugira ngo umuntu abone icyangombwa cyo kugurisha cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umunara muremure uriho insinga nyinshi, iruhande hakaba ari ibiti birebire nabyo, hakaba hari inyubako iriho amabara ya kaki, umweru, n'umutuku n'icyatsi, hakaba hari igipangu gisa ubururu hakaba hariho nimero ku muhanda rimwe gatatu rimwe.

Icyapa cy'ikigo gishinzwe amashanyarazi y'igihugu kikaba kiri mu mabara y'umutuku n'umweru n'umukara. Kikaba giherereye i Gikondo ubashaka wese yabasanga kuri nimero ya kabiri karindwi, kabiri karindwi. Inyuma hari igikuta gisa kaki hasi hari amabuye.

Ibiti birebire by'icyatsi, imbere aho akaba ari igiti gishinzwe gutanga amashanyarazi ku muhanda kikaba kiriho n'insinga z'umukara, iruhande rwabo hari ibyatsi birimo birakora, inyuma hari umugabo wambaye ibintu by'ubururu uhagaze.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye hakaba hari umubare uranga urwo rugo ari rwo nimero kane, iruhande rwaho hari urugi rusa icyatsi aho binjirira inzu yubakishijwe amatafari ahiye, akaba risize irangi ry'umweru risakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda ya kaburimbo iruhande hariho inzira yahariwe abanyamaguru hateyeho ibyatsi ndetse n'ibitaka. Hariho umuntu arimo arahagendera, kuruhande rw'umuhanda amabara y'umukara ndetse n'umweru, urukuta rw'umuhondo. Hariho n'ibyapa byinshi cyane by'amabara y'umuhondo.

Inzu zubakijwe amatafari ya rukarakara zisakarishwa n'amabati. Ku ruhande rwabo hari ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi nyinshi inyuma yaho hari ibiti biteye hari n'imisozi hari n'igicu...

Ipato ry'amashanyarazi rikaba ririho insinga zisakaza umuriro ku bawukeneye bose, iruhande hari inyubako isakaye, hakaba hari igiti kirekire gifite amashami y'icyatsi. Iruhande hari inzu ifite yubatse ndende ifite amabara y'umweru.

Umunara muremure kuruhande rwaho hariho ikintu cyubatse gisakaza amashanyarazi kikanayahindura hari ibyatsi munsi y'umubande hakaba hari n'inzu zubatse muburyo bucucitse ukaba ufiteho amabati asa umutuku ndetse n'ayaguye mu umugezi hakaba hariho n'ibiti byinshi

Imodoka itwaye urwego iri ku muhanda wa kaburimbo, hakaba hari ibiti inyuma bisa icyatsi by'ishyamba, iruhande hari ibyatsi bitoya bitarakura, hakaba hari ibitaka, hakaba hari amabara ku nkengero z'umuhanda y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amarangi y'umweru n'umukara, hakaba harimo abanyamaguru barimo baragenda: umuhungu n'umukobwa, umuhungu uhetse agakapu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, hakaba hari n'umukobwa umuherekeje wambaye umupira w'umukara, hakaba hari intoki n'igiti cy'amashanyarazi, haruguru hari n'imodoka.

Umuhanda wa Kaburimbo uriho ibinyabiziga bitwara abantu. Hakaba hari umunara muremure uriho insinga zisakaza amashanyarazi. Inyuma hakaba hari ibiti by'icyatsi. Iruhande, hari imisozi, hari n'igicu kigaragara neza.

Inzu iri mu bikorwa by'ubwubatsi iruhande rwawo hakaba hari urukuta rwubakijwe amatafari ahiye, imbere hari igiti hariho igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga nyinshi, iri ku muhanda w'igitaka.

Ibyuma bifite ibisongo bikaba bisa umutuku ndetse na senyenge, hakaba hariho umunara muremare ufite ibara ry'umutuku n'umweru, imbere hariho icyapa cy'inzoga, nyuma hariho ibiti biteye icyatsi, hariho n'ubusitani imbere y'izi nyubako.

Ipato ry'amashanyarazi iriho insinga nyinshi ku ruhande hakaba hari igipangu cyubakijwe amatafari, ku ruhande hari igikuta gisa umuhondo cyanditsemo umubare wa mirongo itatu, n'ibara ry'umukara, inyuma y'aho harera, hari igipangu cy'amabati inyuma hari inyubako yubatsweho hari ibiti biri inyuma y'igipangu.

Agasanduku gakozwe mu cyuma kari ahantu mu butaka, iruhande rwako hariho imifuka irimo ibiti birimo birakura. Inyuma yaho hakaba hari igihuru gifitemo amabara y'icyatsi. Ako gasanduku gasa umweru.

Ipoto ry'amashanyarazi hariho n'insinga zisakaza amashanyarazi, inzu zifite ibisenge by'umutuku n'amarangi y'umweru, n'amatafari ahiye iruhande hari indabo zifite amabara y'umutuku icyatsi n'umuhondo, hakaba hari imodoka isa ikijuju hakaba hari ibiti birebire cyane.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho n'icyuma, akaba yicaye ahantu hasakajwe amabati imbere ye hari ibyatsi. Imbere y'aho hari inyubako zisakajwe amabati y'umutuku hakaba hari n'umugore uri inyuma y'umugabo ufite isakoshi y'umweru n'umukara.

Inzu yubatse ahantu hanini cyane hakaba hari hepfo no haruguru hakaba hariho n'ibyapa by'icyatsi biranga ahantu, iruhande rwaho hateyeho uduti twiza cyane ndetse n'ibyatsi n'ibiti, haruguru kumusozi ubona inzu nziza nazo hariho n'ibyatsi byinshi hakaba hariho ibiti bitanga urumuri ku muhanda.

Abantu bicaye hanze yo kwa muganga hakaba hari imodoka z'ibangukira gutabara bamwe barahagaze n'abandi bafite abana mu maboko yabo, bicaye ku ntebe z'ibyuma, iruhande inzu iteye ibara ry'umuhondo hakaba hariho n'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hejuru hariho indabo.

Inyubako y'amatafari ahiye hariho irangi ry'umweru, ikaba isakoreshijwe amabati hariho ibyuma, imbere hari intebe y'icyuma iruhande hari igipapuro gishushanyijeho abantu, gisa umweru n'umuhondo hari imiryango hagati mu gikuta.

Umuzungu wambaye itaburiya y'umweru akaba ari inyuma y'umwirabura nawe wambaye itaburiya y'umweru n'ikoboyi n'inkweto, bakaba bicaye mu ntebe zisa ubururu iruhande rwabo barimo barakoresha mudasobwa akaba hariho n'ibikoresho by'amashanyarazi bifite amabara y'umweru.

Ibitaro aho hari ibitanda by'abarwayi baryamamo, ku ruhande hakaba hari amamashini, kandi haka hari imyenda miremire ishinzwe guhisha abantu, hari imiryango isa umweru iriho ibirahuri, hasi hakaba hasa icyatsi.

Imodoka z'imbangukiragutabara, zikaba zihagaze zifite amapine asa hariho ibyondo abantu barimo baragenda n'abicaye, ku ruhande rwaho hariho inkingi zifite amabara n'inzu kuruhande iteho amabati y'umutuku hariho n'akantu batamo imyanda.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zinasakarishijwe amabati. Iruhande rwaho hari akayira nako gasakarishijwe amabati afashwe n'ibyuma. Imbere yaho hari ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti. Kuruhande hariho n'indi nzu ifite umureko.

Ibyatsi bikase neza hakaba harimo n'ibiti mo hagati. Ku ruhande rwaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, igasakarishwa n'amabati. Ahandi hari icyapa gisa icyatsi, hakaba hariho n'ikimashini gishinzwe kuzimya umuriro, aricyo bita kizimyamoto.

Umugore urimo urazamuka afite ibintu mu ntoki akaba arimo arava mu gahanda k'ibitaka imbere yaho hari ubusitani buteyemo ibyatsi, hakaba hari inzu isakajwe amabati y'ubururu, iruhande rwaho hakaba hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hakaba hari n'ahantu hagenewe guta ibikoresho bitakiri gukoreshwa by'imyanda gasa umuhondo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakarishijwe amabati y'ubururu, hasi hari abantu bahicaye babiri bafite n'ibikoresho, ku ruhande hateye ibyatsi ndetse n'ibiti, inyuma hari imisozi miremire n'inzu zayo.

Abantu bari imbere ya ingunguru bakaba bari mu byatsi akabari inyubako zibari inyuma zisakayishijwe amabati y'umutuku zikaba zubakishijwe amatafari iruhande, iruhande hari n'akandi kayira gasakarishejwe amabati inyuma hari ibyatsi.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku umweru ndetse n'ukara wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, inyuma ye hari igikuta cyera afite uruhara.

Abagabo bicaye imbere y'ameza abajwe mu mbaho kuko bafite amakayi mu ntoki zabo, bakaba bari inyuma y'abaturage bambaye impuzankano z'imfugwa, iruhande hari n'abandi bahagaze bafiteho amagare inyuma hari ibiti n'ibyatsi.

Umugabo wambaye amapingu na kositimu, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, akaba ari iruhande rw'abagabo bashinzwe umutekano, bakaba bambaye abupfukamunwa barimo barava mu modoka ifite ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwabo hari n'izindi modoka zihahagaze, inyuma hariho iya polisi. inyuma hari ibiti ndetse n'iminara.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu bwijimye, akaba afite n'imisatsi miremire isutse. Akaba afite akuma karangurura amajwi. Akaba ari imbere y'urubaho rubajwemo akameza. Imbere ye hakaba hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda. Inyuma harimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, hejuru hari ikintu cy'umweru.

Umugabo wambaye ibyuma bifasha kureba akaba afite umusatsi mwinshi, akaba ari imibiri yombi nta bwanwa afite, akaba yambaye ishati yarengejeho umupira, ku ruhande hariho amapeti ariho inyenyeri eshatu.

Abantu bambaye amakanzu y'umweru n'umukara, umuhungu urimo ufite umusatsi uringaniye n'abakobwa babiri bafite imisatsi miremire, inyuma yaho hari icyapa kirimo umusaraba w'umutuku wanditsemo ninyuguti z'umukara, imbere kumeza hari utwuma dusakaza amajwi hari impapuro kumeza yabo.

Abagabo bane, babiri muri bo bambaye kositime na karuvati n'amashati, hakaba hari n'undi ku ruhande wambaye ishati isa ubururu, ufiteho ikirangantego gisa umuhondo akaba yambaye n'ingofero, uri inyuma yabo akaba nawe yambaye ishati y'ubururu bwerurutse ufite ikirangantego.

Umugabo wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru, umukara, umutuku, akaba yambaye ishati na karuvati akaba afite umusatsi mu mukeya inyuma ye hari igikuta cyera.

Abantu bicaye hasi mu busitani mu byatsi, inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire bisa icyatsikaba hari n'abandi bicaye ku meza abajwe mu mbaho, umubare wabo ni batandatu imbere harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'gitenge, ku ruhande hari umuzungu wicaye ku ntebe y'urubaho.

Umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, akaba yambaye ikanzu y'umutuku, umukara, n'umweru, akaba yambaye ishati y'ubururu na karuvati, inyuma ye hari igikuta cyera, akaba afite uruhara akaba yirabura n'amatwi manini.

Abagabo babiri bambaye amakanzu arimo amabara y'umweru n'umukara barimo baravugana n'imfungwa yambaye imyambaro y'imfungwa, bakaba bicaye iruhande rwabo hari umugore w'imisatsi miremire wambaye agasengeri k'umukara ari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu, inyuma y'abo hari umuryango w'urubaho.

Umugore wifotoje igice cyo hejuru akaba yambaye ikanzu y''amabara y'umutuku n'umweru akaba afite amaso manini afite imisatsi miremire akaba ari inzobe afite amatwi manini.

Umugabo wifotoje igice cyo hejuru akaba yambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umweru, imbere harimo ishati akaba yifotoreje inyuma hari umweru akaba nta musatsi afite ku mutwe.

Umugabo wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umukara n'umweru akaba yambaye ishati y'umweru irimo imirongo, akaba yambaye na karuvati. Inyuma ye hari urukuta rwera akaba afite umusatsi uringaniye urimo n'invi, uwo mugabo ni imibiri yombi.

Umugabo witwa Fulgence Kayishema ufite imibare imuranga ariyo ma i ca ta akarongo cumi na kabiri akarongo makumyabiri na gatatu wafunzwe ku itariki ya makumya na kane z'ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatatu.

Umugabo ushinzwe umutekano ufite imbunda mu ntoki akaba yambaye imyenda isa ubururu bwijimye hakaba hariho idapo ry'igihugu cy'u Rwanda, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya kaki akaba amaboko ye ari mu mapingu.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu hagati, bakaba bicaye mu byatsi n'abandi bicaye ku ntebe z'imbaho, ku ruhande rwabo hari akazu k'imiryango ibiri gasakajwe amabati, inyuma hari ibiti ndetse n'ibyatsi n'imiyenzi.

Abagabo bambaye amakanzu y'umukara arimo akantu mo hagati k'umweru, bakaba bafite ikibando kibajwe mu giti mu ntoki, bakaba birabura inyuma yabo hari amezi ariho igitambaro cy'umweru, n'ikiganza cy'umuntu gifashe irangururamajwi.

Umugabo uri kumwe n'abandi bambaye amakanzu harimo amabara y'umukara n'umweru bicaye ku ntebe z'imbaho hakaba hari n'abandi bahagaze imbere yabo hari mudasobwa n'imigozi icomeka kugira ngo hazemo umuriro.

Dosiye y'urukiko rukuru rugereka rwihariye, ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi, akaba ari dosiye yo muri Mutarama, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu byo muri leta y'u Rwanda, aho baburanye ku itariki ya gatandatu ariko ku wa mbere no ku itariki ya karindwi ari ku wa kabiri.

Imisozi iteyeho ibiti by'icyatsi, kaburimbo igenderagaho ibinyabiziga bimanuka n'ibizamuka, hagati hari imikindo, iruhande rw'umuhanda hari abanyamaguru barimo barazamuka n'abamanuka, iruhande rw'abanyamaguru hari imodoka za polisi zisa umweru zihahagaze.

Ubukangurambaga burimo burabera mu ishuri abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, n'amapantaro ra kake, iruhande rw'umunyeshuri uri imbere uri kumwe n'umupolisi hakaba hari umuriro urimo uraka hasi hari isafuriya hakaba hariho n'ibikoresho bishinzwe kuzimya umuriro.

Igikamyo gisa umutuku iruhande rwayo hari abantu, iruhande rw'abantu hari imbaho, imbere y'imodoka hari abantu abagabo babiri barimo barazimya umuriro bakoresheje amazi, bambaye imyenda isa umukara irimo uturongo twi'icyatsi bakaba bambaye n'ikintu ku ku mutwe gisa umweru.

Igikoresho gisa umutuku kirimo amagambo yandikishije amabara y'umweru n'ahandi hasa umukara, kikaba gishinzwe kuzimya umuriro kikaba gifite umugozi usa umukara, woherezwamo umwuka kugirango uzimye umuriro, hejuru haka hariho igisa icyatsi.

Umugabo uri kumwe n'umugore we bambaye ishati y'umweru irimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, inyuma ye hari n'abandi bambaye imipira y'icyatsi bazamuye amadarapo harimo amabara: y'umuhondo, icyatsi n'umweru; inyuma yabo bagabo hari n'undi, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo n'umugore barimo bararebana imbere yabo hari icupa ry'amazi rya nili, hakaba hari itara n'akuma kasakaza amajwi, akaba yambaye ikositime karuvati n'ishati akaba afite umusatsi mukeya, umugore akaba afite imisatsi myinshi yambaye imyenda y'umukara.

Umugore wazamuye ukuboko kwe kw'iburyo ufite umusatsi mwinshi wambaye ikanzu, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro, akaba anambaye n'utwuma tumufasha kureba neza, iruhande rwe hari abasirikare bambaye ingofero z'umutuku, inyuma hari abantu benshi cyane, hari n'inzu zisakajwe amabati.

Amadarapo ahagaze ku byuma y'ibihugu bitandukanye harimo amabara y'umweru, icyatsi, ubururu, ikaba iri iruhande rw'inzu iriho ibyuma bisa umweru n'irangi ry'umweru, hakaba hahagazeho abantu benshi imbere hari ibiti bifite amashami asa icyatsi n'ibicu by'ubururu.

Bayi, seli, oru renti dontui komu isoko onulayini, maketi Afurika, waba ufite imodoka inzu ikibanza ugurisha cyangwa ukodesha, wavugana n'umukiliriya amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane, hari imbuga zitandukanye, hawuze vuta doti komu, landi purotu dotikomu, vehike dotikomu, anifiyuca dotikomu, selitoronike dotikomu.

Abagabo n'abagore bambaye neza, iruhande rwabo hakaba hari idarapo y'igihugu cy'Urwanda bazamuye ukuboko kwabo kw'iburyo barimo bararahira, imbere yabo hari akuma gasakaza amajwi, iruhande rwabo hari imitako y'imigongo, inyuma yabo hari televiziyo, abagabo bambaye kositime, abagore bakambara imikenyero myiza.

Ibinyabiziga bitwaye abagenzi biri ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hari ibiti bisa icyatsi, hari n'ibikorwa by'ubwubatsi, hariyo abantu barimo barubaka, iruhande hari igiti cy'amashanyarazi gitanga urumuri ku muhanda.

Ikinyabiziga kizwi ku mazina y'ikamyo, gisa umweru kikaba gikingirije ahantu hari ibikorwa remezo birimo birubakwa hari n'ibiti by'icyatsi, kuri iyo kaburimbo hari igare ritwaye umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho harimo umugenzi wambaye umupira w'umuhondo, hakaba hari n'abandi bicaye imbere y'akazu gafite irangi risa icyatsi n'amabati, iruhande rw'ipoto hari icyapa cyerekana ahantu hateye ibyatsi, amarangi y'umuhondo, hakaba n'indi nyubako irimo irubakwa.

Ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ku kirahuri imbere handitseho inyuguti ya S, T,E, R ndende R ndende, A mu mabara y'umuhondo, kikaba gitwaye abagenzi ku ruhande rwe hahiro n'abandi bahagaze, inyuma hari imisozi iriho ibiti by'icyatsi n'inyubako zisakarishijwe amabati.

Inyubako ariko igaragara ko iherereye i Kigali mu Rwanda; iragaragara yuko iri kugurishwa aho bavuga ko umuntu afite miliyoni ijana na mirongo ine abasha kuyigura, iri i Kanombe Kigali, ni uburyo rero bumenyerewe bwo kugurisha aho abantu bagaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Umugabo wikoreye umuzigo usa umweru akaba yambaye igiserubeti gisa ubururu, agendesha ibirenge ku muhanda wa kaburimbo. Akaba ari iruhande rw'ikinyabiziga kiriho amagambo y'ubururu kikaba gisa umweruro cya minisiteri ishinzwe ubuzima.

Ikinyabiziga kikorera ibikoresho by'ubwubatsi kikaba gitwikirijwe ishitingisa umukara, ikinyabiziga gisa umutuku kiri ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwaho hari ibiti birebire bisa icyatsi, n'agakingirizo kasa icyatsi kari ahantu barimo barubaka.

Ikinyabiziga kigendera ku mapine atatu, kikaba gitwikirijwe shitingi isa ubururu, imbere hakaba hari abagabo babiri barimo baragenda iruhande rwa kaburimbo, iruhande harimo agati gakingiriza abarimo barubaka aka ibiti birebire by'icyatsi.

Imodoka ya kwasiteri irimo iramanuka muri kaburimbo isa umweru, hakaba hariho n'abantu bahagaze kuruhande rwayo, hakaba hari ikigega gisa ubururu n'amatara yaka ariho insinga, irande hari inyubako zubakijwe amatafari ahiye inyuma yaho hari izindi zifite amatara a yaka umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderwaho n'ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri gitwaye umugenzi wambaye ingofero itukura, iruhande hari ibyatsi hari n'ibiti birebire bisa icyatsi, ku nkengero z'umuhanda hariho amabara y'umweru n'umukara.

Ikinyabiziga kizwi ku mazina ya bisi cy'ikigo cyitwa litiko gishinzwe gutwara abagenzi, kikaba gisa umweru, icyatsi n'ubururu kikaba kiri mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwabo haraba ari ibinyabiziga bigendesha amapine abiri bizwi nka moto bitwara abagenzi inyuma hari imisozi ibiti n'amazu.

Ibinyabiziga bihagaze bifitemo amabara y'umweru imbere yabo hariho abanyamaguru barimo baragenda ndetse n'abahagaze, kandi hariho ibigega bifite amabara y'ubururu aho bita muri gare, hari n'abacuruza, abarimo baragenda ndetse n'abahagaze inyuma yabo hari imisozi.

Ikinyabiziga gifite amapine abiri gitwaye umugenzi bakaba bambaye ingofero y'umutuku n'umweru. Iruhande hari ibyatsi n'ibiti by'imikingo, iruhande harimo amamodoka ari kugenda ku muhanda wa kaburimbo, iruhande hari amarange y'umweru n'umukara.

Ikinyabiziga kizwi ku mazina y'igikamyo kiri ku muhanda wa kaburimbo kikaba gisa umutuku cyikoreye, akaba gitwikirijweho amashitingi asa icyatsi n'ubururu, inyuma yaho hakaba hari ibiti bisa icyatsi.

Umugabo uri mu gikamyo wambaye umupira w'umuhondo akaba ari mu gisa umweru ku ruhande rwabo hakaba hari umukobwa ufite igikapu mu mugongo wambaye imyenda y'umutuku, iruhande rwabo kuri kaburimbo hakaba hari ibikorwa by'ubwubatsi ari ibiti birebire by'icyatsi.

Imodoka isa umweru iri k'umuhanda wakaburimbo urimo abantu mo inyuma hakaba hari n'abandi k'uruhande bambaye imyenda y'umukara y'amashati, iruhande hari agakingirizo gasa icyatsi gatuma ibikoresho birimo birubakishwa bidasohoka ahandi haba hari ibyatsi n'ibiti birebire by'icyatsi hakaba hari n'umuferege k'uruhande rw'umuhanda.

Ibinyabiziga bigendesha amapine atatu bikaba byikorera. Iruhande rwabyo hari akayira k'abanyamaguru karimo karagendamo umugore wambaye igitenge akaba afite n'akantu k’umutwe. Inyuma yabyo hari inyubako n'iminara miremire, hari n'insinga ndetse n'umugabo uri iruhande rw'ikinyabiziga kuri kaburimbo.

Ibinyabiziga bigendera kuri kaburimbo, iruhande rwabo hateye ibyatsi n'ibiti by'umukindo, hakaba hariho n'igiti cy'amashanyarazi gisa umweru, iruhande hariho inyubako zirimo zirubakwa.

Ikinyabiziga gitwara abantu benshi gifite ibara ry'umweru hakamo n'irindi ry'icyatsi riri ku muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hari ibikorwa by'ubwubatsi hakaba ibiti birebire by'icyatsi, inyuma yaho hari inyubako zubakishijwe zikanasakarishwa amabati y'umutuku.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umuhondo afite amadirishya y'ubururu hasi akaba yateyeho ibiti by'icyatsi akabasa neza hakaba hariyo n'abagenzi barimo baragendagenda ahantu hari ibicu birebire akari n'insinga hejuru.

Abantu barimo baragenda ndetse n'abandi bicaye mu ntebe zibajwe mu mbaho, hakaba hari ibiti inyuma yabo hari inyubako ziteye amabara ya viringa n'izindi zubakishijwe ibirahuri, abantu bari kuri za telefone zabo.

Ubusitani buriho umuntu urabugendamo hagati wambaye umupira w'ubururu hakaba hari ibiti inyuma ndetse n'ibyapa bifite amabara y'ubururu n'umweru iruhande rwabo hari ibiti n'imisozi kuruhande hamwe n'umuryango ufite ibara ry'icyatsi.

Ikibuga cy'umukino wa tenisi hakaba hari ahantu hagenewe abantu baza kureba uwo mukino bicara hasakajwe amabati hakaba iruhande rwaho hari ikintu cy'umunara usa ubururu hakaba harimo n'amabara y'umweru.

Inyubako isakashijwe amabati ikaba ifite inkingi z'ibyuma ziriho amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi akaba ariho igare inyuma hari abantu bicayemo b'imbere hakaba hari amabuye ku ruhande n'ibiti birebire by'icyatsi hakaba hari n'indi nyubako ku ruhande isikajwe amabati.

Icyapa cyo mu muhanda kerekana yuko nta gare ryemewe kuhagera rikaba rishushanyijwe mu ibara ry'umukara rizengurukijwe ibara ry'umutuku harimo umurongo w'umutuku, inyuma yaho hari ikintu cyera.

Icyapa cyo mu muhanda kibwira abagenzi, kikaba gishushanyije mu ibara ry'umukara, umweru ndetse n'umutuku. Inyuma hakaba hera kikaba gitangaza y'uko imbere hari inzira zikata iburyo ndetse n'ibumoso zinjira mu muhanda munini.

Umuntu urimo aragenda iruhande rwa kaburimbo imbere hari icyapa cy'umuvuduko wanditsemo umubare wa mirongo itandatu, kikaba kiri mu mabara mu mabara y'umweru umutuku n'umukara, iruhande hari inyubako z'umuhondo hejuru hari insinga urebye imbere hari imisozi miremire.

Icyapa cyo mu muhanda kibwira utwaye ikinyabiziga cyangwa urimo agendera ku muhanda wese yuko imbere harimo hahanabera igikorwa cy'ubwubatsi, kikaba kiri mu mabara y'umutuku umweru n'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kirimo ubukoni bubiri bw'umweru buhagaze burebana, hakaba harimo n'ikindi cyicamo hagati k'ibara ry'umutuku, hakaba hazengurukijwe ibara ry'ubururu, inyuma yaho harera, igishushanyo ni mu ruziga.

Icyapa cyo mu muhanda kibwira utwaye ikinyabiziga y’uko imbere hari utunu tubiri tugabanya umuvuduko dukunzwe kwitwa dodani. Kikaba gishushanyije mu ibara ry'umukara, rizengurukijwe ibara ry'umutuku mu hagati harimo ibara ry'umweru. Kikaba kiba gihagaze ku cyuma, inyuma harira.

Udushushanyo dushushanyije mu ibara ry'umukara, hakaba hazengurukijwe n'ibara ry'umukara. Mo hagati harimo amabara y'umuhondo, kerekana abajya imbere, agatambitse n'agahagaze.

Icyapa cyo mu muhanda cyanditsemo inyuguti ya pa kika gisa ubururu, imbere haka hari abagenzi barimo baragenda hakaba hari ibiti birebire biri ku muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo amabara y'umweruru n'umukara hariho n'ibinyabiziga birimo biragenda.

Iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hari umuferege, ku ruhande hari ibiti by'icyatsi hakaba hariho n'icyuma kizamuye k'icyapa cyanditseho Rambura, hakaba hari abantu b'abagenzi barimo baragenderaho hakaba hari n'ibyapa by'umweru n'umutuku.

Icyapa cyo mu muhanda kibwira utwaye ikinyabiziga wese yuko imbere ari igikorwa cy'ubwubatsi, hakaba hashushanyijemo umugabo ufite igitiyo n'umucanga, akaba ari mu ibara ry'umukara, ndetse hakoreshejwe ibara ry'umuhondo, inyuma hakaba hariho ho n'ibara ry'umutuku inyuma hakaba hera.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'agashushanyijeho k'umukara kariho kaburimbo ntoya isakajwe n'ibyatsi byumye, hariho amabuye y'urutare n'ibiti byumye, imbere hariho igicu kigaragara neza hariyo n'ipoto ry'amashanyarazi.

Ikinyabiziga gifite amabara y'umweru n'icyatsi, ku muhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari ibiti by'imikindo. Hari ibikorwa by'ubwubatsi birimo biraba, hakaba hari n'icyapa cyanditseho ka, ga, gatanu, zeru rimwe. Na sa, na ta.

Igikamyo gishushanyijwe mu ibara ry'umukara, ikaba ishushanyije izengurukijwe n'ibara ry'umutuku harimo akarongo katacyemerera gucaho. Kika gikoreshwa mu muhanda kerekana yuko bitemewe guca muri uwo muhanda.

Nyicyubahiro perezida wa repubulika Paul Kagame wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'amadarubindi ahagaze iruhande rw'umugore we wambaye umukenyero w'ubururu n'amadarubindi n'agapira k'umukara, ku ruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umugabo wambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ingofero y'umukara bita bakunze kwita umucamanza.

Inyubako ndende zifite amabara y'umweru kacyi ikijuju zikaba zisakajwe n'amabati agezweho, zika zifite amadirishya y'ibirahure ihande hari amazu matoya, akaba iruhande hari ibiti by'icyatsi inyuma akaba ari umusozi muremure ikirere cy'igicu.

Inzu zifite amabati y'umweru, ubururu, umutuku, inyuma hakaba hari umusozi wubatseho inzu nyinshi cyane, hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi, hari ibinyabiziga bihari.

Amazu asahushijwe amabati y'umutuku n'umukara inyuma akaba imisozi akaba n'ibikorwa by'ubwubatsi ari ibimashini birebire akaba ari ibiti bisa icyatsi.

Imodoka isa umukara irimo irinjira mu muhanda wa kaburimbo imbere yaho hari icyapa gisa umutuku cy'umurongo w'itumanaho wa Eyateri iruhande hakaba hari igipangu cy'icyatsi kiriho urukuta rw'umweru hari amatafari ya ruriba n'ibyapa byo mu muhanda bikoreshejwe ibyuma, imodoka ziri imbere hari n'igikuta cyanditseho mitsingi.

Inyubako ndende zisakaye zifite amabara y'umweru, kake zikaba zifite ibirahure bijya gusa ubururu, inyuma hari imisozi iruhande hari ibiti birebire by'icyatsi munsi harimo amazu asakajwe amabati y'umutuku, ubururu.

Inyubako y'umweru ifite ibirahure bisa umukara, hakaba hariho n'icyapa cyanditseho inzu yo gucururizwamo, hakaba hariho ibitebo bifite amabara y'umutuku n'icyatsi, hakaba hari n'imodoka isa umweru ifite amapine y'umukara.

Iminara, insinga z'mashanyarazi, ibiti by'icyatsi, inyubako zisakarishijwe amabati yaguye umugese, inyabako zifite amabara ya kaki, icyatsi, umweru. Hakaba hari n'imodoka bihagaze ahantu n'imashini byubaka imihanda.

Inyubako ifite amabara y'umukara hariho n'ibitambaro bisa icyatsi hakaba handitseho ma o ra ta ta o, hakaba hariho ibyatsi n'irahure k'imodoka, hejuru hakaba hari icyuma gisohora umwotsi mu gikoni.

Inyubako y'amagorofa atatu iteye irangi ry'icyatsi cyerurutse gafite amadirishya afite ibirahuri byubururu, akaba iri kumuhanda iruhande rwaho hari amabara y'umweru n'umukara hakaba hariho umukobwa uhagaze wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare n'ikintu mu mutwe.

Ikinyabiziga gihagaze imbere y'ahantu bita mu Kajagari ka mbere hakaba ari mu muhanda w'amabuye, hakaba hariho abantu bahagaze, abagenda n'abaza, iruhande rwabo hari amazu y'ubucuruzi arimo acuruzaho amadobo ndetse n'ibindi byinshi, hejuru hariho ibiti by'amashanyarazi birimo insinga nyinshi cyane n'imiryango y'ubururu.

Ibinyabiziga birimo birazamuka kumuhanda kandi hari ibiti birebire bisa icyatsi n'inyubako inyuma y'ibiti hakaba aho hanu bahita kumuvunyi.

Inzu zubatse mu buryo bwinshi ku ku musozi hari ibiti bya kimeza hari, imbere hari inzu ikoreshejwe yubakishijwe amabati.

Igipangu gikozwe mu byuma kikaba gisa umukara mo imbere harimo imodoka isa umweru, hakaba hari inyubako ndende ifite amarangi ya kaki, n'umutuku iruhande hakaba hari inyubako ifite amabati y'ubururu hari n'indi nyubako irimo, irubakwa hakaba hari igiti n'ubwatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, hepfo no haruguru hatuyemo abantu bafite ibipangu by'umukara, icyatsi ndetse n'andi mabara. Hakaba hariho n'abantu barimo baragenda mu muhanda, ku ruhande hari ibiti ndetse n'ibyatsi biteye hasi. Hakaba hariho ibiti by'amashanyarazi bifite n'insinga nyinshi. Hakaba hari igicu kigaragara neza.

Ubuso bunini bwubatseho inzu nyinshi zirimo amabara y'umuhondo, ubururu bwerurutse zikingijwe, hari n'ibindi binyabiziga bishinzwe kubaka bizwi nk'amamashini y'ubwubatsi hejuru ku musozi harimo inyubako nziza zubatse neza n'ibigega.

Inyubako yubakijwe amatafari ahiye akaba ariho n'icyapa kirimo amagambo y'umukara kikaba kiri ahantu h'umweru kikaba gifite ibyuma bigifashe bisa icyatsi iruhande hari umukingo n'indabo imbere yaho hakaba hari amabati y'amategura inyuma hakaba hari amabati asakaye inzu y'umutuku.

urugo rwubakishijwe amatafari ahiye hakaba hariho igipangu gifite ibara ry'umukara na zahabu hakaba hariho ibyatsi biteye kuruhande n'ibicu byera hariho amarangi y'umuhondo n'ibara ry'umutuku isakarishijwe amabati y'umukara.

Abantu bicaye hanze ku maduka iruhande rwabo hari ibikarito by'inyange, aka ari icyapa kirekire kiriho icupa ry'yinzoga ryitwa virunga risa icyatsi, iruhande hari indabo zisa icyatsi n' idoma, iruhande hari abagabo bambaye imipira y'umweru n'ubururu, iruhande hari akazu ka emutiyene, hari imodoka iri hariya.

Ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'imizigo hakaba hariho abantu bahagaze bategereje ko baza kugenda iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hepfo hariho ibiti birebire by'icyatsi ndetse hariho n'ibiti by'amashanyarazi bitanga urumuri ku muhanda wa kaburimbo iyo ari ninjoro.

Umuhanda wa kaburimbo ugenderwamo ibinyabiziga byaba ibinyabitende n’ibinyabiziga bisanzwe. Hakaba hateyemo ubwatsi mo hagati hakaba hari igiti cy’amashanyarazi gitanga urumuri ku muhanda. Inyuma y’umuhanda hari ibiti birebire cyane bisa icyatsi n’ubusitani burebure.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hariho amabara y'umweru n'umukara, hakaba hateyeho indabo n'ibiti by'imikindo n'ibindi bisanzwe, hakaba hari inyubako isakarishijwe amabati y'ubururu. Hepfo mu musozi hakaba hari inyubako zifite amabara y'umweru hakaba hari igiti cy'amashanyarazi gitanga urumuri mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande rwaho hari ibiti by'icyatsi, imbere yaho hari ibiti by'amashanyarazi bitanga urumuri ku muhanda, hakaba hari n'ibinyabiziga bisa umweru birimo biramanuka.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari ubusitani, hari ibiti birebire by'icyatsi, imbere hari ikiraro kigoteshejwe ibyuma, hakaba hariho abagenzi barimo baragenda ku ruhande rw'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ugabanyijwemo mo kabiri hakaba hari ibiti biteyeho by'imikindo akarimo amarangi y'mweru, umukara n'umuhondo iruhande hakaba harimo ibinyabiziga birimo birazamuka n'ibimanuka harimo igiti gitanga amashanyarazi ku muhanda n'urumuri.

Umuhanda wa kaburimbo uriho abagenzi barimo baragenda hakaba n'imodoka isaka kaki ifite amapine y'umukara akaba ari igiti camashanyarazi kiriho insinga nyinshi kuruhande rw'umuhanda hari ibiti biteye n'ubwatsi.

Umuhanda wa Kaburimbo uriho ikinyabiziga gikoresha amapine abiri gitwaye umugenzi, inyuma y'ikinyabiziga hari igikuta gisa umweru, hakaba hari ibiti birebire bisa icyatsi, iruhande rw'umuhanda hariho amarangi y'mweru n'umukara aho umuhanda urangirira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru n'umukara aho hagenewe abanyamaguru kugenda hakaba haari ibinyabiziga birimo birazamuka iruhande hari ibiti bifite amabara y'icyatsi ko hari icyuma gifotora amamodoka arimo akoresha umuvuduko mwinshi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uracamo ibinyabiziga birimo amabara y'umweru, n'umukara, inyuma hari inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zikasakarishwa amategura nyuma hari abagenzi barimo baragenda kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi hari amapoto y'amashanyarazi n'insinga nyinshi.

Icyuma cyo m'umuhanda gipima umuvuduko w'ibinyabiziga iyo cya w'urenjyeje, hakaba hari ibiti by'amashanyarazi bitanga urumuri k'umuhanda wa kaburimbo iruhande hari ibiti by'icyatsi ,hakaba hari ibinyabiziga byinshi hari ibigendesha amapine abiri cyangwa ibigendesha amapine ane.